Inyubako itanga serivisi z'ubuvuzi kuko ni ivuriro rivura ibigendanye n'indwara za gakondo, kuko bavura hakoreshejwe ibimera harimo ibikomoka ku byatsi ndetse n'ibiti.